Ibikinisho by'abana, aho abana bajya bagasabana, bagakina, bakishima, harimo ibikinisho bibaha umunyenga, hakabamo n'ibindi bahaga bagashyiramo umwuka, ari byo bisa icyatsi ndetse na move, aho abana bajya bagakina, bari kumwe n'abarezi babo.

Ishuri ry'incuke cyangwa ishuri ry'abana, ririho ibishushanyo byifashishwa mu mfashanyigisho, hariho: ifi, ikinyugunyugu, idarapo ry'Igihugu, umwana uri kwiruka, igisokoza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ishuri ririho ibishushanyo bifatwa nk'imfashanyigisho z'abana biga mu mashuri y'inshuke harimo igishushanyo k'igiti gifite n'imizi, ndetse n'igishushanyo kiri ku ruhande k'inkoko iri ku isahani bigaragara ko yahiye, ndetse n'igiti cy'umwumbati.

Ibyicungo biha umunyenga abana kugira ngo bishime banasabane kugira banakunde ishuri. Ni ibyicungo biriho abana bo mu nshuke bakiri bato kugirango babashe kujya bakunda ishuri baze kwiga buri gihe kuko baba batekereza ko bagomba kuza kumwicungo. Abarimu rero bagerageza kubyubaka kugira ngo bafashe abanyeshuri kuza kwiga ari benshi

Abana bicaye hamwe kandi bicaye neza bambaye impuzankano, ni abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, barimo gufungura kandi bari kumwe n'abarezi babo.

Ishuri rishushanyijeho inyamaswa, iki gishushanyo gifatwa nk'imfashanyigisho ku bana bari mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya indimi zitandukanye n'uko babyita mu mazina y'abazungu cyangwa no mu kinyarwanda, ni inyayamaswa ishushanyijweho yitwa inzovu.

Ibitabo byinshi biri mu moko atandukanye harimo ibisa ubururu, umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'ibindi biri mu mubara atandukanye aho umunyeshuri cyangwa buri muntu ushaka kwiyongera ubumenyi ajya gutira igitabo kugira ngo asome, aha ngaha babika ibitabo bahita muri rayiburari mu rurimi rw'amahanga.

Ku bikoresho byifashishwa mu kwiga, harimo ibikoreshwa mu guca uruziga ndetse no gushushanya ibijyanye n'imibare cyangwa ibishushanyo bijyanye n'imibare, n'igikoresho babikamo ibyo bikoresho. Ikindi harimo: nka ta kereyo, gome, irate ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare harimo gushushanya ndetse no kwandika, aho bikoreshwa mu gushushanya uruziga cyangwa guca imirongo itandukanye cyangwa gupima ama angozi agiye atandukanye ibikoresho birimo: irati, amagoma, takeleyo, keleyo ndetse na kompa.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare, harimo gushushanya ibishushanyo bitandukanye. Guca umurongo gushushanya uruziga, ndetse no gupima. Ibica umurongo byitwa takeleyo ndetse hakabamo na goma isiba ibyo keleyo yanditse, bitanyuze mu mucyo. Harimo n'amarate aca imirongo ndetse agashushanya n'ibindi bitandukanye.

Ibi ni ibikoresho bibiri byitwa bowate bibamo ibikoresho byifashishwa mu mibare, harimo nko gushushanya metero, uruziga. Ibyo bikoresho harimo ibyitwa kereyo, irate, goma ndetse n'ibindi biba bikubiye muri bowate mate matikare.

Igikoresho kibika n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imibare cyangwa gushushanya ibishushanyo byo mu mibare. Igikoresho cyitwa Boite mu ndimi z'amahanga. Hakaba haba harimo umugoma usiba kereyo, ta kereyo icunga kereyo, kompa ndetse n'amarate atandukanye.

Inyubako y'amashuri abanza. Aho yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'amabati y'umutuku. Ibikapu by'abanyeshuri biri hanze, aho abanyeshuri bo bari mu nzu, ibikapu byo biri hanze. Ahantu hitaruye ndetse hari n'ikibuga abana bakiniramo kisanzuye.

Ibikoresho byifashishwa nk'imfashanyigisho ku bana bakiri mu ishuri mu mashuri abanza, aho babereka igikoresho maze bakababwira n'icyo gikora n'amazina yacyo, hano harimo isuka ikoreshwa mu guhinga, icyuma gikoreshwa mu gukata ibintu ndetse n'igikombe gikoreshwa mu kunywa amazi cyangwa no gukoresha mu bintu byose by'amatembabuzi.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya bikaba biza muri buwate matematikale ni ibikoresho byifashishwa mu mibare harimo: kereyo, ikaramu na gome yifashishwa mu gusiba ibyo yanditse bidasobanutse, hakaba harimo n'amarati yifashishwa mu guca umurongo cyangwa guca uruziga.

Ishuri riri ahantu hitaruye ryonyine, ishuri rimwe ndetse imbere yaryo harimo kandagira ukarabe, aho umwana ajya kwinjira muri kalase agakaraba, kugira ngo barusheho kunoza isuku ndetse no kwirinda ibyorezo bituruka mu gukoranaho, kubera ko iyo bakarabye mikorobe zimwe na zimwe zirangirika. Ni ishuri ryiza ndetse rifite isuku.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu higeye gifite inzugi z'ubururu, amadirishya y'ubururu, aho bakarabira hari amakararo y'umweru, ikigega gifata amazi kikayarinda kuba cyakangiza ibidukikije.

Imibumbe igize isanzure ni imibumbe igiye itandukanye ndetse harimo n'izuba aho isi iba iri hagati y'izuba n'ukwezi ndetse n'indi mibumbe igiye itandukanye harimo iyitwa marisi, merikire ndetse n'iyindi itandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ndetse no gukora imibare neza. Harimo ibishushanya uruziga nka kompa, ibica imirongo, ibipima ango ndetse n'ibipima mu bindi bintu byose bitandukanye byo mu mibare. Harimo igikoresho kibikwamo ibyo bikoresho byose.

Umwana ukiri muto, mu mashuri abanza uri kwiga uburyo bashushanya bifashishije amarangi, bifashisha irangi rijya gusa oranje, inyuma ye hari n'umwarimu, uri kumufasha uburyo bashushanya.

Ibishushanyo by'inyamaswa cyangwa amatungo, bifatwa nk'imfashanyigisho ku bana b'abanyeshuri, bari mu nshuke cyangwa abakuru ho gato, biga mu mashuri abanza, harimo igishushanyo k'inkoko, ifi, urukwavu, ndetse n'ihuku.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare, harimo ibyo gushushanya ndetse no guca uruziga, harimo kereyo, umugome usiba kereyo, amarati aca imirongo akanapima, kompa yifashishwa mu guca uruziga ndetse n'igikoresho kibikwamo ibyo bikoresho byose.

Inzu y'ubwiherero rusange abanyeshuri bajyamo bagiye gukurikiranwa n'umubiri, ni inzu ifite ibipande bibiri, icyo hepfo n'icyo ruguru, aho usanga abakobwa bajya mu gipande kimwe, n'abahungu bakajya mu kindi, ni inzu yubakijeje amatafari ahiye ndetse inzugi zikaba zifite amarangi y'ubururu, inyuma yaho hari ishyamba.

Ikigega gifata amazi yaturutse ku nyubako kandi ayo mazi akaba ari ay'imvura ndetse na tuwarete yifashishwa nk'ubwiherero abana cyangwa abantu bakuru bajyamo bagiye kwiherera.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu hitaruye aho hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda riririmo amabara atandukanye, icyatsi umuhondo, n'ubururu. Ikigo kirimo na jaride nziza cyane, aho abanyeshuri bakina cyangwa inzira abanyeshuri banyuramo bajya mu mashuri bigamo.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, harimo abambaye impuzankano bakoresha mu ishuri, abandi bakaba bambaye imyenda ya siporo. Bicaye hamwe ahantu hari ibiti ndetse bakurikiye, bari mu biganiro cyangwa mu nama.

Ishuri riteguye neza ndetse ririmo ibikoresho by'ibanze byafasha umunyeshuri kwiga ndetse n'intebe ziteye mu magurupe aho abanyeshuri bahurira bagakorera hamwe, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'ameza yifashishwa mu kwandika, mashini ndetse n'ibindi bikoresho byose umunyeshuri akenera.

Aba banyeshuri bari mu ishuri kandi bicaye neza ni abana biga nko muri sogonderi, harimo abambaye linete abandi bari inyuma bameze nk'abantu bari biteguye kwifotoza bifashe mu buryo butandukanye bameze nk'abatari kwiga ku meza bicaro bamwe bafite amakayi abandi ntayo bafite, bambaye amashati y'umweru ndetse hasi bakaba bambaye ipantaro cyangwa ijipo y'ikigina.

Umwarimu arimo kwigisha abana bo muri Sogonderi, ari gukoresha uburyo bugezweho bwo gukoresha projegiteri. Abana nabo bafite ibikoresho bihagije byo kwigiramo harimo amakaye ndetse n'imashini bareberamo ibyo mwarimu ari kubigisha nk'imfashanyigisho. Ni ikigo cyangwa abanyeshuri biga mu buryo bugezweho uretse gukoresha ikoranabuhanga.

Umuryango munini uriho amabara y'icyatsi n'umweru hariho n'icyapa gitanga ikaze mu kigo k'imyuga kitwa Cyondo, ndetse n'igipangu kikaba kiriho amakaro.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri cyitwa Bukomo ndetse kikaba kiri mu karere ka Nyagatare hakaba ariho n'ibindi bitandukanye nk'ikirangantego cy'ikigo ndetse n'indi miryango ibarizwa muri icyo kigo harimo nka tuseme, UNCEF ndetse n'ikirangantego cy'igihugu.

Ikigo cy'amashuri, ni amashuri ari ku murongo, afite amabati y'ubururu n'imiryango iriho amarangi y'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, kandi bafite indaby,o bateye indabyo zitandukanye ndetse bacamo n'inzira zizajya zibageza mu mashuri, hagati harimo ibendera ry'Igihugu.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, barimo guhabwa inyigisho zijyanye n'uburyo bwa gitore, aho umunyeshuri ahabwa ubumenyi bujyanye no kumufasha kugira ngo yitware nk'intore, nk'umuntu waserukira igihugu.

Abanyeshuri bane ndetse na kandagira ukarabe aho abanyeshuri bakaraba mbere y'uko binjira mu kigo cyangwa se bavuye gukora ibintu bibanduza bakaza bagakaraba kugira ngo harusheweho kunoza isuku hagati y'abanyeshuri kugira ngo batandura virusi zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano barimo kwiga bafite ibikoresho bimwe mu byifashishwa mu gukora imibare, harimo kalikureta, ikayi ndetse n'amakaramu, bari gukorera hamwe muri gurupe bungurana ibitekerezo, kandi barishimye, ni abana bo mu kiciro cyo muri sogonderi.

Ibikinisho abanyeshuri bifashisha mu gihe barimo gukina cyangwa bari mu bikorwa byo kwisanzura, harimo ipine ibafasha mu gutera amwe mu masiporo ngorora mubiri ndetse hari n'ikindi gikinisho cyangwa igikoresho bafashisha barya umunyenga, aho kimeze nk'amasakariye bazamuka bakamanuka bumva umunyenga.

Abanyeshuri ndetse n'abarezi bishimye bameze neza bambaye imyenda ya siporo aho barimo gutanga morale ndetse bari no kuririmba mu ndirimbo zigiye zitandukanye zibatoza umuco wa gitore, ni abarimu babiri n'umuvoroteri umwe ndetse n'abanyeshuri bambaye imyenda ya siporo.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe bakurikiye imbwirwaruhame, bicaye kumurongo harimo bambaye imyenda ya siporo, ndetse n'iyindi myenda y'impuzankano, harimo isa umuhondo n'icyatsi ubururu n'umweru ndetse n'amashati y'umweru.

Abanyeshuri basoje kaminuza bambaye neza, bambaye imyambaro yabugenewe, ni myambaro yambarwa n'abanyeshuri bo muri kaminuza basoje kwigamo, bafite n'impamyabumenyi, barimo kuyerekana seretifika barishimye.

Abanyeshuri banaze ingofero hejuru bo mu kiciro cya kaminuza, bishimiye ko bashoje amashuri yabo. Ni ikirori kiba basoje kwiga ndetse bagahabwa n'impamyabumenyi zabo. Abanyeshuri bishimye, bambaye imyenda yambarwa muri icyo kirori, banaze ingofero hejuru ndetse bari muri sitade barishimye.

Icyapa kiranga ishuri cyangwa umuryango abanyeshuri bo muri kaminuza bari bwigiremo. Aho usanga mu itangazo bashyiramo umuryango bari bwigiremo noneho umunyeshuri akagenda areba icyo cyapa. Ya mibare n'icyapa kigaragaza aho ishuri riri n'umuryango kugira ngo biyobore abanyeshuri aho bari bwigire.

Ikigo cy'amashuri, umuryango urakinguye aho umunyeshuri mbere yuko yinjira agaragaza ikarita y'ishuri kugira ngo babe Batandukanya n'ibisambo cyangwa abandi bantu baba bagiye kwangiza umutekano w'ikigo. Aha umunyeshuri agenda akereka ikarita umusekeriti, nibyo abanyeshuri barimo gukora kugira ngo binjire mu kigo.

Umunyeshuri wambaye imyenda y'umukara ari mu kigo arimo gutembera afate mashini, aho aba ari muri hositeli aho abanyeshuri baryama, cyangwa se akaba izi nyubako ari iz'amashuri bakoresha barimo kwiga.

Icyumba rusange abanyeshuri bajyamo bakajya gusomeramo, cyangwa bakiyungura ubumenyi ku bijyanye n'amasomo biga, ni icyumba kitwa layiblari kikaba kirimo ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo bongere ubumenyi n'ubushakashatsi, bakoresha bashaka ubumenyi mu ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Abanyeshuri bo muri Kaminuza, barimo kumanuka ku masikariye nka kimwe mu nyubako ziranga amashuri yo muri kaminuza, aho harimo umunyeshuri wambaye ipantaro y'umukara n'umweru, ndetse n'undi wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, umwe afite ibage, barimo kumanuka ku masakariye, bajya ahagana hasi.

Abanyeshuri bishimye bicaye mu ishuri ndetse bakaba bambaye n'impuzankano isa ndetse bakaba bambaye n'akantu kagaragaza icyo bakora, bari imbere bameze nk'abantu bari mu nama kandi imbere yaho hari amazi n'imashini bifashisha.

Abantu batandukanye harimo abazungu n'abirabura, bari mu kigo cy'amashuri, aho barimo kugenda batembera. Ni ikigo gifite ishuri ryiza rigeretse rimwe, kandi ikigo gifite jaride imeze neza, ndetse n'ubusitani bwiza.

Aba abanyeshuri bicaye mu ishuri. Basa nk'abanyeshuri biga muri kaminuza. Bamwe bafite amakayi abandi bafite imashini bigiramo. Imbere yabo hari umwarimu wo kubigisha kandi bakoresheje porojegiteri, bamurika imbere kugira ngo babashe kubona ibyo mwarimu arimo kwigisha.